Abantu baba abashinzwe umutekano, bambara imyenda z'iniforume, zirimo n'amabara y'ubururu, kandi baba bambaye n'ingofero ndetse n'inkweto za bote zibaga zisa n'umukara, ikindi kandi baba bari ahantu hameze neza, harimo n'amapave, bahagaze nanone ahantu haba hari ibendera ry'u Rwanda.

Inama yabereye muri sare bicaye ku ntebe nziza cane， yitabiriwe n'abantu benshi barimo abashinzwe umutekano，abo muri ribu ndetse n'abandi bayobozi. Ikindi kandi bafite amakayi bari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama.

Abantu baba bahagaze, imbere y'amazu ari benshi, kandi hariho n'abashinzwe umutekano, aribo bita abaporisi, baba bambaye imyenda y'akazi, iriho amapeti, kandi bambaye n'ingofero, ikindi kandi inyuma y'aba bantu, haba hari n'ishyamba.

Ikirangantego kiba cyiza cyane, kuko kiba mu birango by'igihugu. Haba hashushanyijemo akebo keza cyane kaba gapfundikiye mu mpande haba hari ishaka ikindi na none inyuma y'ishaka haba hari ingabo.

Ahantu haba hasakaye hameze neza, harimo umupolisi uba yambaye ingofero yambaye na ga mu ntoki, zifite ibara ry'ubururu kandi haba harimo n'imodoka zihagaze, harimo n'ivarisi, bafite n'imbwa bayitoza gucunga umutekano.

Abantu baducungira umutekano bita abapolisi, bari mu muhanda wa kaburimbo, harimo abagabo babiri n'abagore batatu, barahagaze, basa n'abatunze imbunda hakurya, kandi ikindi bambaye imyenda y'akazi ifite n'amapeti, bambaye n'ingofero.

Abapolisi bari mu kibuga bambaye imyenda y'akazi, buri wese afite imbwa bagendanaga, imbere hari umugore ari kuyikurura ashaka kuyizirika ku cyuma. Izi mbwa biragaragara ko ari izo bari gutoza, zibafasha mu kazi.

Abasirikare n'abapolisi baducungira umutekano baba bambaye imyenda y'akazi iba iriho amapeti, kandi bakambara n'ingofero. haba harimo n'abandi bantu bita abo muri ribu bafata abantu bibye, kandi n'abandi bakoze ibyaha na bo bakabajyanayo.

Abantu baba bashinzwe umutekano bita abapolisi, baba bambaye imyenda y'iniforume, ndetse bambara n'udupfukamunwa, ikindi kandi baba bari kwiga ukuntu bateka kuri gaze, bayitereka ku meza barangiza bakayicana bakayiterekaho isafuriya maze bagateka.

Ahantu haba hari abantu batandukanye abagore, abagabo bambara neza karuvati n'amakote. Ikindi nanone haba hari n'abandi bambara imyenda y'iniforume y'abapolisi hamwe n'ingofero. Ikindi nanone bose baba bambara udupfukamunwa, hariho n'abambara ga mu ntoki imbere yabo haba hari televiziyo.

Ahantu bakorera inama haba ari heza cyane hubatse itente riba ririho ibitambaro bisa n'ubururu, ibindi biba bisa n'umuhondo, kandi haba hicayemo abayobozi harimo n'abasirikari bambara imyenda y'akazi, hamwe n'abandi bantu baba bambaye udupfukamunwa.

Abaturage bari mu nama baricaye ni inama yitabiriwe n'abantu benshi cyane: abagore bamwe biteze ibitambaro abandi ntabyo biteze, abagabo ndetse n'abana ahantu bari hari ibiti imbere yabo hari umuyobozi bakurikiye.

Ahantu habera inama, haba ari heza cyane, hateyemo n'amarangi, ndetse habamo n'amakositara n'amatara aba ari kwaka, haberamo inama z'abayobozi baba bicaye ku meza iriho ibitambaro bisa n'ubururu, kandi baba biteretse n'amazi imbere yabo.

Inama iyo yateraniye muri salle haba hitabiriyemo abantu batandukanye, harimo n'abayobozi, ndetse habaga harimo abantu bambaye imyenda, y'amabara atandukanye, harimo umutuku n'umweruru, habaga harimo umuntu utanga ibitekerezo, agahaguruka agafata mikoro, abandi bakamutega amatwi.

Abana babaga bari gutaruka umugozi bamwe babaga bambaye amakabutura gusa, hejuru bambaye ubusa, hariho n'uwundi uba wambaye umupira usa n'umweru kandi babaga bishimye cyane kuko babaga bari muri siporo igorora umubiri.

Abantu bajya mu bukwe baba bafite ibyibo birimo ibishyimbo cyangwa se ibigori. Na none baba bambaye imishanana n'abakenyeye, bambaye n'udusengeri, bafite n'inkangara bazikoreye abandi bazitwaye mu ntoki. Hari n'abagabo baba bakenyeye bikoreye ibibindi abandi bafite amakese.

Abantu bavuza ingoma baba ari abakobwa bambara imikenyero ndetse n' udusengeri kandi baba, bambaye n' ibikomo mu ntoki ndetse n' utundi tuntu mu mutwe, kandi bavuza bari guseka cyane, ndetse bari no kubyina hariho n' abandi bantu baba bari gucurira.

Abantu babyina ibintu by’intore, baba bambaye imigara mu mutwe, bambaye n’utuntu mu ntoki, baba bafite ingabo, bafite n’icumu. Kandi ikindi, baba bakenyeye udushanana. Aba bantu babyina neza cyane, ndetse n’iyo umuntu yakoresheje ubukwe akabatumira, baramubyinira.

Abantu babyina baba bambaye ibintu mu ijosi, kandi baba bakenyeye udushanana. Nabakobwa baba bambaye imikenyero babyina neza bateze amaboko. Kandi babyinira ahantu heza hari tapi. Ndetse n'iyo umuntu yakoresheje ubukwe akabatumira baramubyinira.

Ababyinnyi bita intore babyina bambaye utuntu mu ijosi, bakenyeye n'imishanana, kandi baba baziritse n'amayugi ku maguru kugira ngo babyine ari kuvuga. Aba babyinnyi babyina ahantu hatandukanye, n'iyo umuntu yakoresheje ubukwe akabatumira baza kumubyinira.

Umuvumu ni mwiza cyane iyo wawuhinze ku rugo, ugatera n'igihaza bita ikidodoki kizamukiramo, cyangwa n'iyo wahinze n'amatunda azamukiramo, akera bakajya kuyagurisha. Ikindi na none uba mwiza cyane, kuko iyo uwuhaye umwana, agira ubuzima bwiza.

Ibyibo byinshi bifite amabara gatandukanye biteretse ku mukeka, bimwe birapfundikiye ibindi birapfunduye, kandi ibyibo bikoreshwa ahantu hatandukanye, umuntu ashobora kujya gusura undi agashiramo ibishimbo cyangwa se ibigori.

Abakobwa babiri babyinaga bambaye amayugi mu maguru n'ibikomo mu ntoki, babyina bateze amaboko neza, babaga bambaye n'impete mu mutwe kandi bakabyina bari guseka, umuhungu na we abavugirizaga ingoma kandi babyiniraga ahantu heza cane.

Inkono y'icyungo bayitetsemo, iteretse ku ziko, bashyizemo inkwi nini kandi nta bwo ipfundikiye, iri gucumbamo umwotsi, iyi nkono bakunda kuyitsimbamo ibishyimbo, baragerekaho n'amateke cyangwa se ibijumba, cyangwa imyumbati. Ku ruhande hateretse n'ubundi isafiriya na yo bayitetsemo, ipfundikije isiniya, hejuru hariho ikirushi.

Imbehe ni nziza cyane, baziriramo cyangwa bakazinyweramo igikoma, ariko abantu b'ubu ngubu ntabwo bazizi, kuko abakecuru nibo bazigira, iyo ugiye kubasura baguheramo ibiryo cyangwa bakaguheramo igikoma.

Inzu z'ibyatsi ni inzu bubakaga kera, zikaba zishakaje ibyatsi kandi mu mpande zabaga zubakishije ibiti hasobetsemo n'ibirere, ku ruhande habaga hateye amapapayi kandi amapapayi ni imbuto nziza cyane barazirya.

Inkono bakora mu ibumba ziba ari nziza cyane zifite n'urugara ziteretse ku nkoko nziza, ku ruhande haba hari n'icyibo kandi bagikoresha bari gushyiramo ibishyimbo watwereye nk'ahantu cyangwa se basuye bisanzwe, nanone hari n'abantu bashiramo umutsima.

Abantu iyo barwaye babaheka mu ngobyi bitaga iza kinyarwanda ziba zifite imijishi ebyiri, imbere haba hari abantu babiri ndetse n'inyuma hari abandi babiri, kandi ni ingobyi iba ifukuye neza bashyiramo matela n'ikirago umuntu urwaye akaryamamo bakamworosa n'ikiringiti, kandi ikindi iheka abantu bakuru ndetse n'abana.

Umubyeyi ubumbaga imbabura aricaye ari kubumba. Iza mbere yarangije kuzibumba, indi na yo ari kuyibumba kandi tuzi yuko imbabura ari ingirakamaro. Turazigura, tukazitekaho cyane yuko n'inkwi zabuze, ubu dusigaye dukoresha amakara duteka ku mbabura.

Igikoresho kiba kimeze nk'icyibo ariko cyitwa inkangara, kiba ari kinini kiruta icyibo kigira amabara abiri, habaho ni cy'umukara ikindi nanone bagishyiramo ibishyimbo iyo bagiye gusura umuntu.

Ibintu baboha by'imitako biba bifite amabara atandukanye harimo umutuku, umuhondo ndetse n'ay'ubururu, kandi n'imitako myiza cyane bataka mu nzu cyangwa se bakayitaka mu kidara iyo abantu bakoresheje ubukwe.

Umugore yateye amabuye atatu ariyo bita amashyiga, aba ayateretseho isafuriya ari kurobanura n'ibyo agiye guteka, ikindi kandi aba yambaye n'urunigi ,akenyeye n'ishabure ,yipfutse n'igitambaro ,kandi iruhande rwe haba haziritse n'intama y'umweru.

Inzu bita inzu ndangamurage y'u Rwanda yababaga yubatse neza yubakishije utwatsi twiza cyane, baratezeho n'agati imbere, kandi hejuru habaga hari agasongero k'agati bashyizeho, kandi na none ikindi inyuma habaga hari ibiti by'amashamba.

Isekuru ni nziza cyane bayibaza mu biti, kandi bayisekuriramo imyumbati y' isombe ndetse n'ubunyobwa, cyangwa se baba bashaka no gusekura indagara batagiye kuzibetesha ku cyuma bakazisekura mu isekuru.

Ikibindi bataramo umusururu bawushigishe bawutaramo none urikubira, bashyizemo n'imiheha kandi umusururu barawunywa uranaryoha iruhande hari agatambaro k'umweru karimo amabara y'ubururu y'indabyo.

Ahantu bakoraga inkono n'imbabura hari abagore babiri ndetse n'umwana; umugore umwe ari gukora imbabura, ndetse iruhande harambitse inkono bakora, hari inkono esheshatu, inyuma ye harambitse umufuka.

Umuntu ubyina bamwita intore. Abyina yambaye imigara mu mutwe ,yambaye n'ibindi mu ijosi. Kandi ikindi atega maboko neza, afashe icumu, aba akenyeye n'agashana.

Umuntu uba apfukamye ku mukeka, imbere ze hari urusyo ari gusya amasaka, aba yateretse n'inkoko imbere y'urusyo, kugira ngo ifu ihagwe, iruhande rwe haba hari akebo keza cyane, gafite amabara y'umweru n'ay'umukara kanapfundikiye neza.

Umugeni wo hambere bahekaga mu ngobyi. Uko bigaragara imbere hari abasore babiri b'ibigango, bambaye imikenyero bajyaga bambara n'amashati y'umweru. Noneho hari abagore babaga baherekeje uwo mugeni bamujyanye aho arashyingirwa.

Umuvuzi w'ingoma ari we bitaga umukaraza avuzaga ingoma yambaye imigara mu mutwe, yambaye n'akantu mu ijosi ,akenyeye yambaye amayogi mu maguru, ingoma kandi bazivuza ahantu habaye ibirori abantu bakishima.

Amasaka barayahiga, bakayitaho. Yamara kwera bakayasarura, bakajya kuyabeteshamo igikoma, cyangwa se bakajya kuyinika. Yamara kuba umukara akanamerera, bakayanika. Ubundi bakazajya kuyabeteshamo ifu bakoramo ikigage.

Umuvure bakoresha bari kwenga ibitoki, bashyiramo inshinge cyangwa se amakoma, umutobe uvuyemo barawuteka, bakawunywa cyangwa se bakawutara, ukavamo inzoga, bakayicuruzamo amafaranga.

Inkangara ziba ziboshye nk'ibyibo, ariko zo ziba ari ndende, zirimo n'amabara, umukara, harimo n'agatambitse, ziba zinapfundikiye, ziteretse ku ruhande, harimo ibyatsi ari byo bazibohamo, kandi ikindi bazifashisha batuye nk'abantu imyaka, cyangwa se bakanazibikamo.

Umuntu uba yikoreye umuvure kandi yambaye n'ibirenge. Umuvure bawukamiramo ibitoke bikavamo umutobe bakawunywa, cyangwa se bakawutara ukazavamo inzoga banywa, kandi ikindi nubwo bayinywa abagore batwite ntabwo banyinywa ndetse n'abana batoya.

Umuntu upfukamye ku kirago yambaye umupira w'umutuku n'uruhete n'urunigi, iruhande rwe harambitse ikibo, imbere ye hari urusyo rukomye neza, ari gusya amasaka, ifu iri kugwa ku gakoma karambitse ku nkoko, iyo inkoko nayo iteretse ku kirago kandi amasaka avamo igikoma kiryoshye.

Inkangara iba imeze nk'icyibo, ariko yo iba ari nini barayiboshye bagashyiramo n'amabara y'umukara iba ipfundikije n'umutemeri uba ari muremure, ikindi kandi bayifashisha bajyanye nk'ibishyimbo ahantu cyangwa se bashaka kubibikamo.

Umuntu aba afite umusatsi mwiza cyane, yawusokoje, afite n'ubwanwa, kandi aba afashe ihembe, aribyo bita ikondera, bakarivugiramo iyo habaye ibirori runaka, cyangwa se bamutumiye ahandi hantu mu bukwe, akarivuza.

Umutiba barawuboha, bakawushyiraho ibirere inyuma, bakawuhambira bagashyiraho n'umutemeri gupfundikira barangiza bakawushingira ibiti bakawushyiraho, hakazazamo inzuki zibyara ubuki, kandi buba bwiza cyane kuko baranabuvurisha n'iyo umwana arwaye ubugendakanwa, barabumuha agakira.

Inkongoro bashyiramo amata ziba zifite udupfundikizo dusongoye hejuru, kandi izi nkongoro na none zikoreshwa mu bukwe nk'iyo basezeranye baje gukwa barazifashisha. Abajene maliye bakazifata bakajya imbere y'umugeni.

Inka nziza ziri kunywa amazi zifite amahembe maremare ziteze neza, hariho n'izindi zidafite amahembe, harimo iz'umukara, hakabamo n'iz'ibijuju, nyuma yazo hari abashumba bahagaze baziragiraga kandi ziri hafi y'ishamba.

Inkono y'ibumba bayitekamo ibijumba, bagatekamo n'ibishyimbo ikindi kandi bagerekaho n'ibijumba bikaryoha cyangwa se amateke, ikindi kandi iyo bashaka bayishyiramo n'imyumbati, kuko ni inkono nziza ce iryoshya ibiryo.

Urukiza ni ibintu bahinga, bikaranda bikagira indabo, bikazaho ibintu bimeze nk'ibihaza, barangiza bakabica bakabisatura, iyo byakomeye bakabikuramo inzuzi, hakavamo urukiza barunyweramo inzoga, cyangwa se ikindi kintu bashaka kunywa.

Abahinzi bahinga amasaka bakayakorera, akaba meza cyane, agakura, akayanga, akazavamo amasaka meza cyane bakajya kuyasarura, baba bashaka gukora umusururu bakayininika, akazamera utuzi, barangiza bakayanika bakajya kuyabetesha bagakuramo ifu nziza cyane, bakoramo ubushera.

Inzu yubatse ishakaje amabati, hakikijeho n'utubaho duteye amarangi y'ubururu, hejuru na none hakaba hateyeho icyapa cyanditseho ngo kanari purisi. Imbere y'inzu hashinze ifoto iriho insinga zijyana amashanyarazi muri iyi nzu.

Akabuno ka sharijeri kaba gasa n'umweru, kariho agapapuro kariho amabara atandukanye iry'umutuku, iry'umweru ndetse n'iry'ubururu kandi gakoreshwa, kari gucaginga terefone, imashini cyangwa se bakagakoresha, bari gucaginga tereviziyo kandi ibyo ni ibikoresho dukenera, igihe turi kureba ku ikoranabuhanga.

Abantu bari kugenda ku kiraro cy'imigozi n'abagore n'abagabo harimo umugore wambaye ipantaro y'umutuku ndetse n'agapira k'umukara harimo n' umugabo wambaye ikote ryabanyabuzima bose bambaye udupfukamunwa hakurya yabo hari ishamba.

Inzu zubatse zimwe zubatse hepfo izindi zubatse haruguru, iziri haruguru ni inzu enye inyuma yazo hari ibigega bibiri, izo hepfo ziriho umuntu uhagaze inyuma, hepfo ye naho hari ikigega nanone hepfo yaa yega amazu bombi hari akandi kantu kubatse k'agakuta.

Kiliziya nini yubatse neza ifite umuryango gufunze hanze hari abantu bafite ibyo bari gukora hubatse n'indi nzu ifite agasongero hejuru mu kiliziya haberagamo misa iyoyoborwaga n'abapadiri mu mbuga ya kiliziya hari amapavi.

Inzu ziba zubatse neza, ziteye kalibasasu, hamwe n'amarangi, zifite n'amatara yo hanze kandi ziba ziri mu gipangu. Inyuma, hariho ipoto ishinze, iriho insinga zijyana amashanyarazi muri iyi nzu, kandi hanze ku mapoto haba harunze n'amabuye.

Inzu basengeramo yitwa Kiliziya, iba yubakijije amatafari ahiye, haba hamanitsemo n'udutambaro, harimo n'umusaraba, kandi haba harimo n'ishusho ya Bikira Mariya, aba yifashe neza, afite n'ishapure, ku ruhande haba hateretse n'indabyo nziza cyane.

Inzu basengeramo iba yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, kandi haba hariho n'amabara asa n'umuhondo, amwe amanuka andi atambika, nanone iba isakaje amabati y'umutuku, imbere haba hari umucaca abantu bicaramo, kandi nanone inyuma haba hari ishyamba.

Inzu zubatse neza. Hepfo hari inzu iteye irangi ry'umweru, haraguru hari indi isakaje amabati y'umutuku kandi na none hari igiti kirekire gifite amashami, iruhande hari umuhanda hakabamo n'agacaca keza cyane.

Urusengero baba bararwubatse neza barwubakishije amatafari ahiye, basakaza n'amabati asa n'umutuku, kandi hejuru haba hariho n'utundi tuzu tuba twometseho na two dusakaye, ikindi kandi haba hariho na korotire iba isizeho n'amabara atandukanye, hari asa n'umutuku ayandi asa n'umweru ayandi asa n'umukara ikindi kandi imbere haba haparitse n'imodoka isa n'umweru.

Ahantu abantu basenge, habahubakishije amatafari ahiye, hashakaje ndetse n'amabati, ikindi na none haba harimo, intebe abantu baza gusenga bicaraho, ariko na none iyo ari umunsi utari uwo gusenga, nta bantu baba barimo.

Imodoka igendaga irigucucira amazi mu muhanda kugira ngo umucucu gwe gutumuka, iyi mashini nayo igaturuka inyuma iri gutsindagira yicayemo umuntu uri kuyitwara ,ku ruhande hari undi muntu uri kugenda n'amaguru ari kugenda ari kurebaba ukuntu bari kubigenza, hakurya hari imibyare ndetse n'ishamba.

Amazu yubatse neza Ari k'umurongo, andi ari ku ruhande asakaje amabati y'umutuku. Ni amazu iruhande rwabwo hariho amashanyarazi, inyuma yaho hari ishyamba riteyemo ibiti byinshi hamwe n'ibyatsi.

Inzu ebyiri ziteganye imwe n'urusengero ariko rurafunze hamanitseho n'urupapuro rw'umweru, hanze hari abantu, ku mbuga harunzeho n'amabuye, hepfo hari iyindi nzu isakaye ariko itubatse neza, inyuma yaho hakaba hari ishyamba.

Ikigo cy'amashuri hari ashakaje amategura, andi ashakakaje amabati, imbere hari abana bari gukinira mu kibuga, inyuma hakikijwe n'amashyamba, hari ahari amatovu, ahandi hari ibiti bisanzwe.

Ahantu haga hari inzu zisakaje amabati y'umutuku hariho n'utubaho tuba duteye amarangi y'icyatsi ndetse n'inzugi ziba zikinze ziriho amarangi y'icyatsi kandi haba harimo n'amakositara, haza abantu baje gushaka serivisi kandi baba bafite n'impapuro.

Urusengero basengeraho ruba ari rurerure, rusakaje amabati y'ubururu kandi ruba rufite n'inzugi n'amadirishya, bisize amarangi y'ubururu, haba hariho na kandagira ukarabe, ikindi kandi hanze haba hari agacaca, hari n'umuhanda abantu banyuramo, baje gusenga kandi hanze haba hari n'abagore.

Imikino y'abana bakiniramo iba ifite amarangi atandukanye, harimo iy'ubururu hamwe n'iyindi. Iyi mikino abana bayikiniramo bakishima, kandi nanone haba hubatse ayandi mashuri, abo muri pirimeri bigiramo bakuru.

Ahantu haba hubatse urusengero bita kiliziya rw'abanyagatulirika ruba rushakaje amabati y'mutuku, kandi haba hariho n'abapadiri bari kugendera mu makaro bagiye gusoma misa, kandi kuri kiliziya haba hateye n'indabo ndetse harimo n'agacaca.

Ahantu haba hari aka etageri karimo utuntu dutandukanye tw'udukoresho bakoreshaga bari kwigisha muri garidiyene. Haba harimo abantu bashushanyije, harimo utwana, abagabo, abagore, ndetse ku ruhande haba hashushanyije n'abana. Biba bigaragara ko biga muri garidiyene.

Inzu basengeramo, inzu iba ari ndende isize amarangi y'umweru uruhande rumwe, kandi iba isakaje amabati ariho amarangi y'umutuku, na none inyuma yaho haba hari ishyamba, imbere hari ifoto ririho insinga zijyana umuriro mu rusengero, kandi ikindi haba hari n'umuhanda wa kaburimbo.

Amazu aba ari maremare yubatse neza cyane asakaje amabati y'ubururu ndetse andi asakaje ay'umutuku, haba hariho n'umuhanda wa kaburimbo ndetse haba hateye n'amashyamba mu mpande.

Ibyuma biba bishinze binyuzeho insinga z'amashanyarazi, zijyana umuriro mu ngo z'abantu, mu mashuri, mu mavuriro ndetse no mu nsengero kandi izi nsinga ziba zir'ahantu hari n'ishyamba, hakurya hari amazu ariyo ajyamo uwo muriro.

Amazu yubatse neza, ariho inzu ebyiri za etaje, kandi aha hantu haba hari n'amakaro hasi, hanze hakaba hari amapave, noneho hari na bariyeri, iyo umuntu agiye kwinjira babanza bamukuriraho bariyeri, cyangwa se imodoka ije bakabanza na yo bayikinguriye.

Icyapa kiba kiri ku muhanda kiyobora abantu ndetse n'imodoka. Hejuru haba hubatse inzu, nyuma yaho hariho ibyatsi biri kwerera mu mukingo, kandi imodoka iyo ziri kugendera ku cyapa ntizikora impanuka cyane y'uko n'abantu nabo iyo bari kukigenderaho baba bari kugenda neza mu muhanda.

Abantu bagiye mu bushinjacaha， bambaye imyenda y'icatsi，batonze imirongo，imbere hari abantu bari kubasomera，inyuma yabo hari abandi batatu bicaye bari kureba muri mashine，hari n'impapuro imbere zabo， hakaba n'igikapa n'imarete ndetse n'agacupa.

Abantu baba bari mu nama bicaye haba harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere haba hari umuntu bari gusomera urubanza ikindi nanone harimo ababa bitega ibitambaro.

Abantu bari nama muri sale, harimo abagore n'abagabo, harimo n'abambaye ingofero, hari umugore umwe uhagaze wambaye ikanzu ifite amabara gw'umutuku ndetse n'umweru yipfutse n'agatambaro k'umutuku ari gutanga igitekerezo.

Ahantu habaga ari muri sare haberaga inama, ndetse habaga hatatse ibitambaro byiza n'itara riri kwaka. Abantu babaga bicaye mu ntebe nziza cyane z'umweru, imbere yabo hicaye abayobozi bari kubigisha, ndetse habaga harimo abashinzwe umutekano bitaga abaporisi.

Ikibuga kiba kirimo indege ndetse n'imodoka, ikindi kandi indege bazigenderamo bagiye mu mahanga bagiye gutembera. Nanone ikibuga kiba kirimo indege ni ikibuga kiba cyubatse neza, gisizemo kaburimbo.

Imodoka zitwara ibitaka byo kubakisha, ziba zifite amabara y'umutuku, zifite n'amapine, hariho amapine y'inyuma ane, n'imbere hakaba hariho andi mapine, ni imodoka ziba ari nini cyane, kandi zigenda no mu murima, zigiye kwikorera ibyo bitaka.

Imodoka ziba ari nini cyane bita dipine. Ziba zifite amapine menshi, zitwara imisenyi ndetse n'amabuye byo kubakisha. Ni imodoka ziba zisa n'ubururu cyangwa se zifite ayandi mabara. Izi modoka zikorera ibintu byinshi.

Urujya n'uruza rw'abantu baba bari kujya muri gare gukatisha imodoka, haba harimo imodoka zitandukanye, harimo n'abantu bakata amatike, imodoka zikagenda zijyana abantu bitewe n'aho bagiye kugira ngo bagereyo vuba.

Imodoka itwara abantu iri mu mapave irahagaze, yanditseho ngo:" Tembera u Rwanda". Iruhande rwayo hubatse inzu yubakishije amatafari ahiye imanuyemo umurongo w'umuhondo n'utambitse kandi hateye n'ibiti.

Ahantu bategera imodoka ziba ziparitse abantu bakagenda, bagiye kuzitega baba barajya ahantu hatandukanye, kandi haba hubatse n' inzu y' umuhondo isakaje n' amabati y' ubururu hakurya yaho haba hari ishyamba.

Nk'uko bigaragara iyi modoka iri kugenda mu muhanda, irimo abagenzi bamwe baricaye abandi barahagaze, ariko n'ubwo iri kugenda ni mu gihe c'imvura kuko mu muhanda bigaragara ko harimo amazi.

Abantu baba ari abakerarugendo baza gutembera mu gihugu baba ari abazungu bafite n'ibikapu, habamo n'abamasera na bo bahetse ibikapu kandi baraza bakinjira ahantu heza cyane, baba bagiye gutegera indege.

Nk'uko bigaragara aha hantu ni aho baparikaga imodoka, kandi abagenzi bahagaze batandukanye mu tuzeru, bigaragara ko hari mu gihe ca kovide aribwo bajyaga kwinjira mu modoka babanje gukaraba intoki, kandi ikindi babaga bambaye ubupfukamunwa.

Aho imodoka ziparikaga harimo sima, hateye n'igiti. Ku modoka mu muryango hahagaze umuzungu, imbere harimo abantu batatu. Abagabo babiri n'umukobwa bari kurebera mu birahuri, kandi inyuma y'imodoka hari amazu abiri g'amataje gateganye.

Ubwato buba mu mazi butwara abantu. Hariho abantu babutwara kandi babutega ari benshi, bamwe bambara n'ingofero zifite amabara y'umutuku. Ikindi na none ubwato babwifashisha igihe bagiye kuroba.

Imodoka ziba ziri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Imwe iri kuzamuka, indi iri kumanuka. Hari n'iba ifite amabara atandukanye ay'umutuku, n'ay'umuhondo. Kandi hari n'umuntu utwara igare agafata ku modoka kandi nta bwo biba byemewe kuko aba ari amakosa.

Ahantu bita muri gare ni aho bategera imodoka. Haba harimo imodoka ziparitse kandi zinatandukanye, ziba ziri kujya mu byerekezo bitandukanye. Abantu na bo baba barimo baje kuzikatisha kugira ngo bagere iyo bagiye vuba.

Ahantu bategerara imodoka haba haparitse imodoka nyinshi, zijya ahantu hatandukanye, kandi haba harimo n'abantu baje gutega, harimo n'abandi baba bari gucuruza imbuto n'amazi, abantu bagura iyo baje gutega.

Ahantu haba hari imodoka bahita muri gare, niho abantu bakatishiriza bagiye ahantu hatandukanye, kandi ikindi imodoka iba nziza cyane kuko yorohereza abagenzi bagiye ahantu.

Imodoka ziba ziparitse mu kibuga zitwara imizigo zigira amabara y'umweru ay'ubururu ndetse n'ay'umutuku, kandi inyuma yaho haba hari ishyamba ikindi nanone zijya no hanze zijyanyeyo imizigo.

Imodoka ziba ziri muri gare ziparitse zitegereje abagenzi, izindi ziba ziri gusohoka zuzuyemo abagenzi, kandi ikindi imodoka ni nziza cyane kuko zorohereza abantu urugendo aho bagiye.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bari mu muhanda wa kaburimbo, moto zikoreye imitwaro, izindi ziziritseho ibyatsi, abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, hariho abambaye amabara y'umutuku ndetse n'ayandi mabara agiye atandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu baba barimo n'abafite amagare bita abanyonzi, baga bambaye imyenda itandukanye ndetse n'ingofero. Haba harimo n'umuntu ushinzwe umutekano bamwita umupolisi. Aba afite mikoro ndetse n'urupapuro mu ntoki aba ari kubabwira amabwiriza.

Muri gare bahakatishiriza amatike, iyo baba bagiye ahantu hatandukanye haba harimo n'abanyeshuri, baba bagiye ku ishuri baheka n'ibikapu ndetse baba bambaye n'imyenda y'iniforume, iba idasa kubera ko baba bagiye ku bigo bitandukanye.

Imodoka nini itwaraga abagenzi yanditseho ngo vorukano. Inyuma yayo hari izindi eshatu zimeze nkayo ziri mu ruhande rumwe. Iruhande rwazo nta yindi modoka ihari, kandi mu mpande aho izi modoka ziri hagiye hateye ibiti.

Umugore utwaraga igare ari kurisunika ririho, ibitebo bibiri bipfundikije umufuka. Ahuye n'abagabo babiri nabo bafite amagare, umwe ari kurigendaho naryo ririho igitebo gipfundikiye. Undi arahagaze ari gupfundika imifuka iri ku igare, ahuye n'undi muntu nawe uri kugenda atari ku igare.

Mu muhanda wa kaburimbo haba hari kugendamo za moto ku ruhande, haba hateyemo amapave kandi ikindi haba hateye n'ibiti byiza cyane, hari n'ubusitani harimo ndetse n'imodoka nziza zifunze hose.

Ahantu haba haparitse imodoka, haba hari na moto yitwa rifani, itwara ibintu abantu bagura, habamo n'ingorofani na za rozwari ndetse n'ibindi, ikindi nanone ziba ziri kugenda, mu muhanda wa kaburimbo.

Imodoka iba ihagaze, isa n'umuhondo, ifite n'itara ritukura, nta mushoferi uba arimo, ndetse nta n'abagenzi baba barimo, haba haparitse n'izindi modoka zisa n'umweru, ziba ziri ahantu hasakaje ibati, risa n'umutuku.

Imodoka igenda ku muhanda wa kaburimbo. Aba ari nini cyane ifite n'amatara imbere hejuru kandi yanditseho ngo kapitari. Ikindi ku ruhande aho iba iri kugenda haba hari n'amazu yo gucururizamo, ateye amarangi y'umuhondo.

Imodoka zitwara abarwayi zibajyanye kwa muganga ziba zifite amabarara y'umutuku ndetse na y'umweru, haba handitseho imbangukiragutabara, ikindi nanone haba handitseho ibigo nderabuzima biba bitandukanye iba iri kwihuta cyane, ku ruhande haba hari amashamba ndetse n'abantu baba bahagaze.

Abantu bakora siporo bari gukina umupira wa hendiboro, mu izamu haba harimo umuntu uri gufata, hagati harimo abandi bakinnyi batandatu kandi mu mpande haba hicaye abantu bari gufana, hari n'abandi bari busimbure ba bandi baba bari hagati mu kibuga.

Abanyeshuri bagiye kureba umupira baricaye ,inyuma zabo hari ishamba ,imbere mu kibuga harambitse imipira ya basikete ,hicaye n'abantu bane umugabo umwe n'abagore batatu ,umwe yambaye ijipo abandi bambaye amapantaro bari gukurikirana uko umupira guri kugenda.

Abantu bakora siporo baba bagiye gukinira muri stade, bambara imyenda y'iniforume ibaga ifite amabara atandukanye, umukara ndetse n'umweru, ikindi na none baba bambaye n'inkweto za siporo kandi muri stade haba hicaramo abantu benshi cyane baba baje kubafana.

Abantu b'abagore bakora siporo baba baje muri stade gukiniramo. Mu kibuga cyiza cyane, kiba kirimo na tapi. Kandi baba baje gukina basketball bambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto n'amasogisi. Baba bambaye na nimero zitandukanye. Umwe yambaye nimero umunani, undi yambaye makumyabiri.

Abana bakora siporo, baba bagiye muri sitade, bari gukinira mu kibuga kiza, kirimo na tapi, baba bari gukina basiketinoro, bambara n'imyenda ya siporo, ndetse n'inkweto, n'amasogisi, kandi muri sitade haba hicayemo n'abandi bana, baje kubafana, hamwe n'abandi baba baje kubabarira iminota.

Abantu bakora siporo baba baje gukina mu kibuga, abandi bicara muri sitade bari kureba ukuntu bakina, haba it harimo abagabo ndetse n'abagore bambara imyenda iba ifite amabara atandukanye harimo, ay'umukara ndetse n'ay'ubururu, harimo n'ababa bambaye amarinete ndetse bambara n'ingofero.

Umuntu ukora siporo, aba ari gukina umupira wa hendiboro, yambaye n'imyenda ya siporo, umwenda w'umupira, wanditseho makumyabiri, ushushanyijeho n'ibendera, kandi aba agiye gutera umupira.

Abantu bakora siporo baba bicaye mu kibuga cyiza cyane kinashushanyijemo ndetse haba harimo abagore n'abagabo. Harimo abambaye amapantaro n'amakanzu, hamwe n'abandi bambaye amakabutura ndetse bambara na za rinete. Inyuma hari n'undi mugore uhagaze, no ku ruhande hari undi muntu uri kuvugira muri mikoro.

Abantu bakora siporo baba baje gukina umupira wa basiketi, bari muri sitade kandi haba ari ahantu heza cyane. Harimo na tapi haba hari n'abandi bantu bari kubabarira iminota, ndetse n'abaje kubafana bicaye muri sitade.

Abantu bakora siporo baba ari abakobwa, bakina umupira wa basiketi, bambara imyenda ya siporo igira amabara atandukanye n'amanimero atandukanye, ikindi nanone bakinira mu kibuga cyiza cyane, inyuma yabo haba hicaye abantu babara iminota.

Abantu bakora siporo baba ari abakobwa bagiye gukina umupira wa vole, buri wese yaba afite umupira we ikindi kandi baba bambaye imyenda z' iniforume z' amakabutura ndetse n' imipira hariho n' ababa bambaye amasengeri, ikindi nanone baba bahagaze mu musenyi.

Abantu bakora siporo baba ari abasore, bambara imyenda za siporo ziba zisa n' ubururu izindi ziba zisa n' icyatsi ndetse babaga bari gukinira ahantu heza cyane haba harimo n' amakaro; ikindi nanone siporo ni nziza cyane kuko inanura umubiri; umuntu akagira ubuzima bwiza.

Abakobwa babiri bagiye mu marushanwa ya anteretizime, umwe ari kunanaga, bambaye imipira zanditseho ngo isonga, bari kumwe n'abagabo babiri bambaye imipira z'umutuku, umwe yambaye ingofero y'umuhondo, inyuma z'abo hari umukobwa na we uri kwiruka.

Abantu bakora siporo harimo n'abagore baba baje gukina mu kibuga baje guhura n'andi makipe, kandi baba bambaye n'amagofero abandi bakaza bari kubahobera, bari kubishimira kubera y'uko bakina neza.

Umukobwa uri muri siporo ari gukina hendi boro, ari gukinira ahantu heza cyane, aracyari hafi y'izamu ariko umupira awufatiye inyuma nk'ugiye guhereza mugenzi we, hejuru muri sitade hicaye abantu bari gufana.

Abantu bakora siporo ari abagore, baba baje muri sitade gukina umupira wa vore boro, kandi baba bambaye imyenda ya siporo ifite amabara atandukanye, ikipe imwe iba yambaye ibara ry'umutuku, iyindi yambaye umuhondo kandi baba bambaye n'inkweto za siporo, hari n'abantu baba baje kubafana.

Abantu bakora siporo bari mu kibuga bagiye gukina umupira wa volley ball. Bamwe bakaba bari kwitoza. Iruhande hicaye abantu mu ntebe baba bari kubara iminota yabari gukina. Aha ni ahantu muri stade haba harimo na tapi.

Abantu bakora siporo baba bari mu kibuga, barimo gukina umupira wa hendiboro. Baba bambaye imyenda ifite amabara atandukanye , harimo iy'umukara ndetse n'indi iba isa n'umutuku. Ku ruhande haba hicaye abantu baje kureba uko bakina.

Ahantu bakorera siporo aba ari mu kibuga kimeze neza, gishushanyijemo n'imirongo isa n'umweru kandi bakiniramo volebolo, ikindi nanone haba hateye ibiti ku ruhande ,mu kibuga nta bakinnyi baba barimo.

Akana gakora siporo kaba kari ku igare, kambaye imyenda ya siporo n'inkweto n'amasogisi, kambaye n'ingofero ifite ibara ry'umweru, inyuma ya ko haba hari akandi kagakurikiye, baba bari kugenda muri kaburimbo, bameze nk'abari kurushanwa.

Abantu bakora siporo baba bagiye muri sitade gukina umupira, kandi baba ari abagore, uwatsinze bamuha igikombe, kandi haba hari abantu b'abagabo bamukikije bamwishimiye cyane, dore ko haba hari n'abandi bantu baje gufana bari muri sitade.

Abantu bakora siporo bakajya no gukina umupira wa futuboro. Baba bambaye imyenda ya siporo n'inkweto. Imyenda yabo iba isa n'umweru, umuntu aba ari mu izamu aba yambaye imyenda ya siporo, ariko ifite amabara y'umutuku, ku ruhande haba hicaye abantu baje gufana.

Siporo iba nziza cyane, iyo umuntu yakoze siporo aba agagororotse, kandi nta mananiza aba afite mu mubiri, na none iyo umuntu agiye gukora siporo aba yambaye inkweto za siporo, akambara n'amasogisi, ndetse akambara n'akenda koroshye ku buryo ataratutubikana cyane.

Imodoka iba ari ntoya igira amabara atandukanye ay'umweru, ay'umutuku ndetse n'ahandi haba handitse nimero, haba hari ibara ry'umuhondo, ikindi nanone ibaga yanditseho akagera, bayifashisha iyo bari kwiga imodoka.

Abantu bakora siporo baba baje gukina mu kibuga cyiza cyane, kirimo na tapi. Ndetse baba bambaye imyenda ya siporo, inkweto. Kandi ikindi haba harimo n'abagore babiri inyuma hari n'undi mugabo wambaye ingofero, kandi baba bagiye gukina umupira wa basiketi.

Abantu bakora siporo bagiye gukina umupira wa vore boro, bakina bambaye imyenda ya siporo ikabutura ndetse n'umupira, bambara na nimero zitandukanye umwe yambara nimero ebyiri undi akambara nimero cumi n'eshanu ,kandi ubwo umupira kuwukina bigorora umubiri.

Abantu bakora siporo baba bari gukina umupira wa basiketi ari abakobwa kandi haba hari n'umugabo ubatoza, ni ahantu heza cyane baba bari gukinira habamo na tapi, kandi ni muri sitade haba hicayemo n'abantu baza gufana.

Abantu bakora siporo baba baje mu kibuga gishushanyije neza, bari gukina voreboro. Baba bambaye n'imyenda ya siporo isa n'icyatsi, ndetse n'inkweto. Muri sitade haba hicayemo abantu baje gufana, ndetse hari n'abandi bababarira iminota iyo bari gukira.

Ahantu bakorera siporo haba hubatse neza cyane, harimo amasikariye abantu bicaramo. Kandi hazamo n'abantu baje gufana abaje gukina baba bari mu kibuga, kandi mu kibuga haba harimo natapi, harimo ibendera. Nisitade nziza cyane iba yubatse inasakaye.

Umunyonzi ari muri kaburimbo aratwaye, ariko ntabwo ahetse, ikigaragaza ko ari umunyonzi, ni uko inyuma ku igare hariho intebe y'umufariso, iruhande rwe hari icyapa, imbere hari abantu bari kugenda, kandi na none ku muhanda iruhande hateye ibiti.

Abantu babiri batwaye amagare ni abanyonzi kuko bafite amagare gariho imifariso, haruguru yabo hariho akazu, hakaba hariho n'ipoto, imbere hariho inzu y'ubucuruzi iteye irangi ry'umuhondo n'ubururu irakinze, na none haruguru hari indi nzu y'ubucuruzi iteye irangi ry'umweru, iruhande hariho ibiti.

Ahantu haba ari heza muri karitsiye, bashyiramo amapave abantu bayanyuramo, kandi amapave bayashyiramo kugira ngo abantu be kugenda bari kunyerera, kandi ikindi be kuzajya bisiga ibyondo, dore ko umuntu iyo yagiye mu mugi cyangwa se agiye gusura abandi bantu, akanyura mu mapave agerayo asa neza.

Ahantu haba hubatse amazu meza cyane yometseho n'amakaro, haba hashinze n'amapoto ariho insinga, zijyana amashanyarazi mu mazu kandi imbere haba hari umuhanda wa kaburimbo ugendaho imodoka, ku ruhande hari n'uwundi w'abanyamaguru, uba urimo amapave.

Inzu baba barubatse neza bayitera n'amarangi atandukanye. Hariho aba asa n'icyatsi andi akaba asa n'umweru. Imbere haba hateye indabo nziza cyane barazikata. Kandi haba hashinze n'ipoto iba iriho insinga zijana amashanyarazi muri iyo nzu. Ikindi na none haba hari n'umuhanda wa kaburimbo.